Yasanze ubuzima bwe buri mu kaga, ahitamo gufata icyemezo cyo gukorana na kimwe mu bigo bitanga serivisi z'ubwishingizi, nuko avuga ko atazi isaha cyangwa se umunsi ibyago byamutera bityo agomba kwishinganisha.

Nyuma y'uko hasanzwe hakenewe ubwishingizi bufasha abantu bakora ingendo ziva mu gihugu kimwe bajya mu kindi, noneho ubu byaroroshye no mu Rwanda haje ubwishingizi, aho usanga bukwishingira igihe cyose ugiye gukoresha nk'indege, bityo ubuzima bwawe ntibujye mu kaga.

Hari ibigo bitandukanye bitanga serivise z'ubwishingizi, bwaba mpuzamahanga cyangwa se ubukoreramo imbere mu gihugu, niyo mpamvu iyo uramutse ubayeho ntabwishingizi ufite ukoresha ngo ushinganishe ubuzima bwawe, uba usa nk'uwabushyize mu kaga.

Abashoferi benshi cyangwa se abatwara ibinyabiziga bakunze gukoresha ubwishingizi kubera ko bibafasha gushinganisha ubuzima bwabo igihe cyose bakoze impanuka bakabasha guhabwa ingurane cyangwa se bagahabwa amafaranga abafasha muri ibyo bibazo.

Biragoranye y'uko wakumvisha umuntu ko uri umusirimu igihe cyose nta bwishingizi ugira bwashobora kukugoboka igihe cyose waba ugize ibyago cyangwa se ugeze mu zabukuru, kubera y'uko hari sosiyete nyinshi zibasha gutanga ubwo bwishingizi.

Ntabwo wakizera umutekano w'ubuzima bwawe igihe cyose udafite ikigo cy'ubwishingizi nibura ukorana na cyo kugira ngo ubuzima bwawe burusheho kuba bushinganye, niyo mpamvu buri munyarwanda wese aba asabwa kugira ikigo nibura kimwe akorana na cyo.

Mu rwego rwo kugira ngo wizere umutekano w'ibyawe ndetse n'abawe, uba ugomba kugira ubwishingizi bw'ikigo runaka bugufasha kubaho utekanye mu buzima bwawe bwa buri munsi ugashinganisha imitungo yawe nk'inzu n'imodoka.

Ntabwo wakwizera ko utekanye igihe cyose nta kigo cy'ubwishingizi ukorana nacyo, kuko n'amafaranga usanga bishyura muri ibyo bigo by'ubwishingizi aba atari menshi, iyo ugira ngo utekane uba ugomba gushinganisha ibyawe bityo ugakorana n'ikigo cy'ubwishingizi ukarushaho kugira amahoro ubuzima.

Ntabwo ari umuntu wakoze impanuka cyangwa se wahuye n'ibindi bibazo uhabwa ingoboka, ahubwo n'umuntu wagize ikibazo cy'uburwayi iyo akorana n'ikigo cy'ubwishingizi, icyo kigo runaka kiramugoboka cyangwa se kikamufasha mu bijyanye no kwivuza.

Abantu ntabwo bari bazi yuko ikigo cya Radiyanti cy'ubwishingizi kigenda kirushaho kwegereza gahunda z'ubwishingizi abantu. Aho kigenda kirushaho kwishingira inka, inkoko, ingurube, ndetse n'andi matungo. Mu gihe mbere bitahozeho.

sosiyete z'ubwishingizi zamaze kuba nyinshi mu gihugu cyu Rwanda aho usanga izo sosiyete zibasha kwishingira abanyarwanda ku buryo usanga no mu zabukuru zibasha kubagoboka, zikabereka y'uko buri kimwe cyose bakeneye bakibona binyuze muri izo sosiyete.

Ubwishingizi bwa Sonarwa nabwo ni bumwe mu bwishingizi bukomeje gufasha abanyarwanda mu guteza imbere imibereho myiza yabo, kubera ko ba bishinganisha bagashinganisha n'ibyabo ku mafaranga atari menshi cyane bityo ubuzima bwabo bukaba bushinganye.

Ntabwo hakiri ikibazo cy'ibigo by'ubwishingizi mu Rwanda kuko byabaye byinshi, bitewe n'uko haje kuvumburwa ko ubuzima bw'umuntu nta kindi kigomba kubuza imbere, kuko umuntu agomba gushinganisha ibye, ndetse na we ubwe ku giti cye.

Sosiyete zitanga serivisi z'ubwishingizi mu rwanda zabaye nyinshi kubera ko ubwishingizi bw'ubuzima bw'umuntu ari cyo kintu kigomba kuza imbere, usanga umunyarwanda yishyura amafaranga atari menshi agashinganisha ubuzima bwe ndetse n'imitungo ye.

Ntabwo ari inzu gusa cyangwa imyaka bibasha kuba byakishingirwa na sosiyete z'ubwishingizi mu Rwanda kubera ko n'imodoka akenshi zikunda kugira ibigo bizifasha kwishingirwa kubera ko bitunguranye hari igihe umuntu akora agisida bikarangira abuze uko yitabwaho .

Igihe cyose woherereje umuntu amafaranga ukoresheje terefone cyangwa mudasobwa, uhabwa ubutumwa bugufi bukwereka ko igikorwa wakoze cyagenze neza bityo udakwiye kugira impungenge kubera ko biba byarangiye.

Ubu ngubu byaroroshye umuntu wese aho ari hose ashobora kwinjira ndetse akareba amakuru y'ibikorerwa kuri bake y'iwe by'umwihariko ya beka, kubera y'uko afite uburenganzira n'ubushobozi bwo kugendana bake y'iwe muri terefone bityo akarushaho kuyikoresha.

Hari amaduka menshi agiye aba ari ku mihanda cyangwa se ari mu midugudu ituwemo n'abantu, aho usanga afasha abantu guhaha biboroheye bitabaye ngombwa ko bajya ku isoko, kubera ko bo bakora ibyitwa nko kudandaza bakabegereza ibicuruzwa bugufi.

Hari imirimo myinshi ibyara inyungu nk'ubucuruzi bw'imyenda, aho usanga bifashisha bimwe mu bikoresho bibumbye kugira ngo bamamaze imyambaro yabo, bityo abantu barusheho kuyibona neza, babone ko nabo bayambaye yababera nk'uko ibereye ibyo bibumbano.

Amaduka agerageza gucururiza mu midugudu abantu batuyemo, nayo usanga ari amaduka y'ingirakamaro kubera ko abegereza muri bimwe bakeneye bakabibona batagiye kure nko ku masoko cyangwa se ngo bajye mu yandi maduka magari.

Byaroroshye ubungubu kwambara ukaberwa ntago bigisaba kujya imahanga; kubera yuko hari amaduka menshi ndetse n'inzu nyinshi zicuruza ibijyanye n'ubwiza ndetse n'imyambaro aho usanga wabashije kugira bimwe mu bikoresho wambika imyenda kugira ngo ubone ubwiza bwayo.

Hafi y'iwabo hari hari iduka ricuruza bimwe mu bikoresho bikenerwa mu rugo bitandukanye, ariko ugasanga hanacururizwamo imyambaro ndetse n'ibyo kurya ku buryo igihe cyose yabikeneraga yabiboneragayo bitamusabye kujya mu mujyi.

Mu Rwanda hari amaduka menshi acuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga, akubiyemo amatelefone ndetse n'amasaha. Ayo masaha n'amatelefoni akoreshwa n'abantu kenshi, kugira ngo bayafashishe nk'imirimbo, bikabafasha gusa neza.

Kugeza na n'ubu biracyari inzozi kumva ko buri muntu wese ku isi yakwitungira imodoka ye. Niyo mpamvu usanga abantu benshi babasha gutakaza icyizere, akavuga yuko bigoranye kuzatunga imodoka bityo agahitamo kubaho atega.

Mu Rwanda ubucuruzi bw'ikoranabuhanga bwateye imbere, aho usanga ndetse n'amamodoka ubwayo abasha kwamamazwa n'abayacuruza bakayamamaza bakoresheje murandasi, bakayamurikira abashobora kuba bayagura.

Uko u Rwanda rugenda rutera imbere, n'abantu b'abanyarwanda barushaho kumenya uburemere bw'ishoramari, bagenda barushaho kwagura ibikorwa bakora, aho usanga nko muri Kigali hari amaduka acuruza imodoka, cyangwa se abantu babikora nk'akazi kabo kabatunze.

Abantu benshi basanze ari akazi kagira amafaranga gucuruza imodoka, kubera ko usanga iyo ziri kugurwa hazaho inyungu nyinshi, bityo wacuruza imodoka irenze imwe, ugasanga amafaranga ufasheho ni menshi arabasha gukemura ibibazo ufite.

Ababigize umwuga gucuruza imodoka usanga bakorana n'ibigo bitandukanye bikora amamodoka aho usanga bafatanya kuzijyana mu bihugu by'amahanga, bakazimurikira abantu benshi kugira ngo urwo ruganda ruzikora rubashe kugira abaguzi benshi.

Hari inganda nyinshi zikora imodoka, kandi izo modoka ugasanga zaguzwe n'abanyarwanda izo nganda rero bagerageza kuzamamaza mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo zirusheho kumenyekana ku rwego mpuzamahanga kandi zirusheho kugirana n'abantu benshi bakeneye kugurizwa.

Ubungubu aho ibihe bigeze si ngombwa ko ujya kureba umuntu ngo nawe aze kukureba kugira mukunde mugurishanye, ubu bucuruzi busigaye bukorwa hifashishijwe enterinete, aho usanga umuntu akugurisha ikintu kimwe, ukamugurisha ikindi nk'imodoka, inzu n'ibindi.

Bitewe n'uko imodoka iyo yangiritse kuyikoresha bihenda cyane umuntu wese aba asabwa kwitwararika igihe cyose atwaye, akirinda kwangiriza ikinyabiziga cye kuko bishobora kumuviramo igihombo gikomeye.

Igihe cyose akiri ku isi, yararahiye ngo ntabwo yareka gukora akazi ko gucuruza imodoka, kubera ko ngo ni akazi usabwa gukora ariko amafaranga ukayatanga igihe cyose wamaze gucuruza iyo modoka, kubera ko aribwo uba umaze kubona umuguzi.

Igihe cyose ufite urugendo ntabwo kikiba ikibazo gikomeye cyane kubera ko hari imodoka nyinshi zikorera, usanga zikunda gutwara abantu zibavana hamwe, yewe niyo ushoboye kwitwara barayigukodesha ukayigarura ku gihe mwumvikanye.

Bamubwiye ko nakomeza akazi ko gucuruza imodoka bizatuma agera ku iterambere rye vuba ariko nanone amafaranga akuramo natayapfusha ubusa nibwo bizamugirira umumaro, nawe we yavuze y'uko agomba kubishyiraho umutima.

inota y'igihumbi ibashushanyijeho inyamaswa y'inkende nyuma yaho hakongera hakaba hashushanyijeho inzu ndangamurage ziboneka mu karere ka huye ariko usanga abantu benshi batabizi kubera yuko bayakoresha batitegereza

Yahisemo gufata icyemezo cyo kureka gukoresha amafaranga yo mu ntoki ayangaya azi nka cashi ahubwo ahitamo gukoreshayo ayo kuri telefone kubw'umutekano wayo kubera ko igihe cyose yabigerageje ayo yari afite nka cashi barayamwibaga .

Abantu benshi babikunda iyo babonye bahawe amafaranga mu buryo bufatika bi twita kashi, kubera ko ngo amafaranga bahawe kuri terefone kuyakoresha birabagora, bitewe n'uko abantu benshi batizera iyo mikoreshereze yayo.

Mu mafaranga y'u Rwanda habamo n'igiceri cya mirongo itanu. Usanga gishushanyijeho ikigori, ariko abana benshi bakibaza uburyo icyo giceri kiba cyaragezweho n'icyo kigori. Ariko ntabwo baba bazi ko mu by'ukuri ari icyo bagenda bagashushanyaho.

Igikorwa cyo kubitsa cyangwa kubitsa amafaranga gisaba kuba wigereye neza kuri banki, bityo ugahura n'umukozi wabigenewe, akagufasha muri icyo gikorwa, bityo kikagenda neza ku buryo bwihuse.

Byamaze kugaragara ko gukoresha amafaranga mu ntoki bimwe abantu benshi bita kashi bituma indwara zimwe na zimwe zikwirakwira mu bantu byoroshye, bityo leta y'u Rwanda yagerageje guteza imbere uburyo buzwi nka kashilesi bwo gukora ukoresha amafaranga kuri telefoni.

Mu rwanda hari uburyo bwinshi butandukanye bwo guhererekanya amafaranga ava ku muntu umwe ajya ku wundi. Aho usanga hari ibikoresho bizwi nka mobayilo mane, kubera ko abantu benshi aribwo buryo bakunze kuba banazi. Usanga aribwo buryo buborohereza bagahererekanya amafaranga byoroshye.

Akenshi na kenshi, bizwi ko abanyarwanda cyangwa abantu muri rusange bajya muri banki bagiye kubitsa cyangwa kubikuza. Aho ubanza kuzuza inyandiko runaka igaragaza ingano y'amafaranga ugiye kubitsa cyangwa kubikuza, uhawe n'umukozi wa banki.

Mu buzima busanzwe umwana afatwa nk'umwami. Aba agomba kwitabwaho akagaburirwa neza ndetse akarindwa icyamuhungabanya cyose. Ariko nanone akagerageza gushyirwa kure y'ibikoresho by'ikoranabuhanga kugira bitangiza imitekerereze ye.

Hari amakusanyirizo menshi mu gihugu usanga ashinzwe gutunganya ibikomoka ku mata, mu gihe usanga abantu benshi batandukanye bafata icyemezo cyo kubagemurira amata bakayazanaho nabo bagahabwa amafaranga.

Biba ari byiza kandi ari iby'agaciro kwita ku muguzi igihe cyose ageze mu iduka kugira ngo we mugurisha ubashe kubona neza ibyo umuguzi wawe ashaka ubundi ubimuhe kandi ubimuhere ku gihe kugira ngo nawe anyurwe na serivisi nziza.

Kubera iterambere ry'uruganda rw'inyange usanga ibicuruzwa byarwo rucuruza bikunda kuboneka ahantu henshi hatandukanye, kubera ko nanone usanga ababyeyi bakunda gutwara bimwe mu bicuruzwa byarwo bakabishyira abana babo.

Bitewe nuko akoresha umuriro mwinshi bamubwiyeko agomba kureka ibyuma bimufasha gushyushya amata bigakomeza bikaka kubera ko igihe cyose abijimije bishobora ku mutera kugwa mu gihombo gikomeye kubera ko amata yahita apfa.

Hari amaduka menshi acururizwamo ibyo kurya akenshi usanga ababyeyi bayanyuzamo abana mbere yo kugera ku ishuri bakagira bimwe mu byo kurya bahabwa, bityo umunsi wabo ukirirwa ugenda neza kubera ko baba badafite ikibazo k'inzara.

Iyo ugeze muri resitora, uba ufite uburenganzira bwo gutumizaho ibyo kurya ushaka. Ushobora gutumizaho igitoki cyangwa se ugatumizaho umuceri, nyuma yaho washaka ukaza gutumizaho n'icyo kunywa, hakubiyemo amata cyangwa se fanta.

Mu rwego rwo kugira ngo haboneke ibituruka ku mata byinshi, ubu hiyemejwe gukoreshwa gahunda yo kongera amakusanyirizo, aho usanga abantu bagerageza kuzanayo mata, bagahabwa amafaranga, na bo bakajya kuyakoresha mu kwiteza imbere.

Mu gitondo iyo agiye ku kazi aragerageza akanyura ahantu hose bacuruza resitora, kugira abashe kugenzura niba koko hari abashobora kuba bacuruza ibyo akunda, yasanga ntabihari akabasha gufata amandazi ndetse n'icyayi akigendera.

Usanga abagerageza kugemura bimwe mu bicuruzwa bikomoka ku mata, babigemura bitwararitse, kuko baba bazi yuko ari ibicuruzwa bishobora kwangirika bya hato na hato, kandi bikunda gukoreshwa n'abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu benshi bakunda kunywa amata, amwe akunze kuba apfunyitse mu dukebe, atunganywa n'uruganda rwa Mukamira rushinzwe gutunganya ibikomoka ku matungo, bikubiyemo amata ndetse n'ibindi.

Mu gitondo cya kare umuntu akibyuka amaze gukora imyiteguro mbere yo kujya ku kazi, aba agomba gufata nibura icyo kurya cya mugitondo gikubiyemo nka capati, akayifatisha icyayi kugira ngo umunsi uze kwirirwa umeze neza.

Mu buzima busanzwe umunyeshuri agomba kwitabwaho, aho mbere yo kujya ku ishuri agomba kugira icyo abanza kurya kikamukomeza mu nda akenshi usanga bakunda gufata icyayi cyangwa se amata bakayafatisha irindazi.

Bamugiriye inama yo gutangirira ku bucuruzi buciriritse, kubera ko adafite ubushobozi bwo kubona igishoro kiri hejuru, bityo ngo abashe kuba yakorera k'ubucuruzi buri hejuru. Bamubwira ko nabwo buzamuteza imbere igihe cyose yashyizemo imibare.

Byamaze gushyirwaho umucyo kandi binashyirwa ahagaragara ko burya n'amabanki ashobora kugufasha mu bijyanye no kohereza amafaranga mu bihugu by'amahanga, ntabwo ari ngombwa gukoresha serivisi z'itumanaho kugirango uhamagare umuntu umwe umubwire ko ugiye kuya....

Yafashe icyemezo cyo kujya yishyura akoresheje telefone, nyuma yo kumenya ko sosiyete zose z'itumanaho zimuhereza amahirwe yo kwishyura akoresheje ubwo buryo, aho hari imibare runaka agomba gukanda ubwishyu bugakorwa nta mvune zibayemo.

Igihe cyose ukeneye kumenya ibijyanye n'amataliki ni byiza ko ushyira indangagihe muri telefone yawe bityo igihe ukeneye kubimenya ukarebaho cyangwa se ugashyiraho ikindi kimenyetso gituma izagufasha kubyibuka.

Umunsi ku munsi uko tugenda turushaho kwinjira mw'isi y'ikoranabuhanga, niko abantu bose bagenda barushaho gusobanukirwa ko kwishyura ukoresheje telefone cyangwa se ubundi buryo bwose bw'ikoranabuhanga, bwaba aribwo bwizewe kurenza ubundi ubwo aribwo bwose.

Iyo ukeneye gukoresha serivisi za mobayiro mane kuri emutiyene, hari imibare runaka bakubwira gukanda ukabasha kubona itonde ry'ibintu ugomba guhitamo bitewe n'icyo ushaka gukora, ushobora guhitamo kwishyura kwakira cyangwa kohereza amafaranga.

Uburyo bwa emutiyene mabayiro mani, ni uburyo busigaye bukoreshwa n'abantu benshi mu bijyanye no kwishyura cyangwa se gukora izindi gahunda zabo nyinshi zigiye zitandukanye niyo mpamvu usanga abantu benshi babisobanukiwe batajya batandukana no gukoresha emutiyene mabayiro mani.

Narabibonye kandi mbifitiye gihamya ko hari uburyo bwinshi bugiye butandukanye bwifashishwa n'abantu cyangwa se abatuye isi mu kwohererezanya amafaranga aho waba uri hose, ariko muri afurika y'uburasirazuba ho byaroroshye kuko hari ingamba nka emupesa ndetse nindi miyoboro yifashishwa.

Ubukangurambaga mu Rwanda bukorwa umunsi ku munsi ku bijyanye no kuzigamira amashuri y'abana, kubera y'uko ntakindi kintu waraga umwana uretse kumuraga ishuri, niyo mpamvu buri muntu wese aba asabwa kuzigama mbere y'uko itangira ry'amashuri rigera.

Akenshi na kenshi hibazwa niba ari ikibazo cy'impuzanzira cyangwa se ari ikibazo cy'umuyoboro umuntu akoresha yohereza amafaranga, kubera ko hari igihe woherereza umuntu amafaranga, kumugeraho bikaba ingorabahizi, ndetse nawe kuyabona bikagorana kandi nawe nyir'ukuyohereza utayagarukana.

Kugira ngo ugaragaze ko nawe hari ibyo wasobanukiwe, uba ugomba gutegereza ugahabwa inyemezabwishyu, nyuma yo kwakira serivisi runaka cyangwa se kwishyura amafaranga mu kigo runaka, kuko iyo nyemezabwishyu igihe runaka urayikenera.

Mu Rwanda umuntu wese wishyuye imisoro cyangwa se wamaze gusora, aba agomba guhabwa icyangombwa kigaragaza yuko nta musoro abereyemo leta, bityo bizinesi ziwe cyangwa se ibikorwa bibyara inyungu, bigakomeza bikagenda mu mahoro.

Nk'umuntu ushobora kwishyura imisoro uba ugomba kugerageza ukabika kure inyemezabwishyu baguhaye, kugira ngo igihe cyose uyikeneye cyangwa se ukeneye serivisi zitangwa n' ikigo cy'imisoro uzabashe kwitwaza iyo nyemezabwishyu.

Yabwiye umuyobozi w'uruganda ko agomba kubika neza inyemezabwishyu kugira ngo igihe cyose ayisabwe ajye ayerekana, bityo bigabanye amanyanga mu bijyanye n'imyishyurire y'imisoro kuko ariho hava ubukungu bw'igihugu.

Inyemezabwishyu wahawe igihe cyose umaze kwishyura imisoro uba ugomba kuyibika neza kuko igihe cyose uyibajijwe urayitanga iyo utayitanze guhabwa serivisi zifite aho zihuriye n'imisoro ntabwo bikunze gushoboka neza .

Byaroroshye iyo umuntu wese umucuruzi, cyangwa se undi muntu ukora ibikorwa bibyara inyungu, amaze kwishyura umusoro nicyo gihe aboneraho guhabwa urupapuro, rw'ikoranabuhanga rugaragaza neza ko yishyuye imisoro.

Impapuro zose zifite aho zihuriye n'amafaranga, ni impapuro ziba zigomba kubikwa neza kandi kure kubera ko igihe cyose uzibuze nta gihamya cy'uko wakiriye cyangwa se watanze amafaranga uba ufite, bityo amafaranga yawe ushobora kuyahuguzwa.

Inyemezabwishyu wahawe n'ikigo icyo ari cyo cyose uba ugomba kuyibika kure, kuko igihe icyo ari cyo cyose wayibazwa, ugasanga urayibuze kandi ucibwa andi mafaranga yo kugira ngo bagukorere indi. Mu rwego rwo kwirinda gusesagura, uba ugomba kuyibika neza kugira ngo igihe cyose uyibajijwe uza

Gutwara amafaranga mu ntoki ntago uba wizeye umutekano w'amafaranga, kubera ko igihe runaka abajura bashobora kugutega bakayakwambura ukayahomba yewe byaba na ngombwa ugahomba n'ubuzima.

Amafaranga y'ibihugu by'amahanga iyo aje mu Rwanda usanga nayo agira agaciro iyo amaze kuvunjishwa, aho batangira kuyabarira mu manyarwanda bityo banyirayo bagatangira kuyakoresha bashingiye ku gaciro k'ifaranga ry'igihugu cy' u Rwanda.

Abantu benshi bagiye bafata ingamba zo gukoresha amafaranga yo kuri telefone, aho kugira ngo bakoreshe amafaranga bafite mu ntoki kubera ko usanga ayo mafaranga bafite mu ntoki umutekano wayo utaba wizewe, bityo ukaba wayabura bitunguranye.

Mu myaka yo hambere byahoze ari ingorabahizi kubara amafaranga vuba kandi ukabikora neza, ariko ubungubu kubera ikoranabuhanga byaroroshye kubera ko hari imashini zisigaye zifashishwa mu kubara amafaranga.

Yavuze ko kugendana amafaranga mu ntoki n'ubwo bwose bayamwiba, ariko bimufasha kuyakoresha igihe cyose abishakiye, bitandukanye n'uko kuri telefone ushobora gusanga uwo ugiye kuyaha nta bushobozi bwo kuyakira afite bityo bikarangira igura n'igurisha ritagenze neza.

Iyo umuntu uwo ari we wese agiye kubitsa muri banki cyangwa se ikindi kigo cy'imari akoresha, atanga amafaranga yazanye yose uko yakabaye agomba kubika aho muri icyo kigo cy'imari, akayanyuza mu mwenge wabugenewe akakirwa n'umukozi ubishinzwe.

Nyuma y'uko bisanzwe hari ikibazo cyo kohereza amafaranga mu mahanga ndetse no ku yindi migabane, hageragejwe guteza imbere ibigo bishinzwe kohereza amafaranga kugira ngo bibashe gutanga serivise abantu banyurwe nazo, bityo ubuzima bwabo bworohe.

Amafaranga y'igihugu cya Kongo nayo ni amwe mu mafaranga afite agaciro gakomeye ku mugabane w'Afurika kubera ko nayo usanga ari amadorari, bityo bigatuma abantu benshi baharanira ko bayakoresha kugira ngo amafaranga yabo agire agaciro.

Akenshi na kenshi usanga inote z'amafaranga ya congo zigiye ziri mu byiciro bitandukanye aho usanga zigaragazwa n'amabara nyuma y'amahoro ugasanga hari imibare igi itandukanye aho igenda igena agaciro k'iryo faranga.

Imirimo ijyanye n'ivunjisha ni imirimo iba igomba gukorwa buri umwe wese mu bayikora abigizemo ubwitonzi, kubera ko iyo udacunze neza usanga uwo muri kubikorana ashobora kukunyanganya amafaranga akaguha make.

Amafaranga y'ibindi bihugu iyo aje mu Rwanda ari amafaranga afatika muburyo bw'inoti cyangwa se ibiceri usanga abantu benshi bakunda kuyakoresha nubwo rwose bibaza ngo tuzajya kuyavunjisha he?igihe cyose aho bavunja batarakingura.

Yabwiwe ko igihe cyose akeneye gukoresha amafaranga y'abanyamahanga mu gihugu kitari icye, aba agomba kunyura ku nzu zishinzwe kuvunja ayo mafaranga, zikabanza zikamuhereza ay'icyo gihugu agiyemo, bityo akabona kuyakoresha atekanye.

Iyo ufite amafaranga wakuye mu bigo bishinzwe gukora akazi ko kuvunja amafaranga y'abanyamahanga uba ugomba kuyatwara neza kubera ko usanga abenshi bayabarira mu gaciro gakomeye cyane bityo kuyakwambura bikaba byakorohera.

Byari byabanje kumubera ikibazo ageze aho yegeye imbere abona ahantu hari inzu ku muhanda ikorerwamo imirimo ijyanye n'ivunjisha abajije amakuru asanga abavunja ku giciro gisanzwe nuko nawe arinjira ahabwa serivisi.

Nyuma y'uko bigaragaye ko utuzu twinshi dukora ibijyanye n'ivunjisha ry'amafaranga ku muhanda, bamwe na bamwe bakora badafite ibyangombwa, leta yafashe icyemezo cyo kugenda igenzura aho isaba buri mukozi kwerekana ibyangombwa bimwemerera gukora uwo murimo.

Igihugu cyose ugezemo ntabwo wabura aho uvunjisha amafaranga ngo n'uko uri umunyamahanga kuko usanga hari inzu zabugenewe usanga mo ibikorwa by'ivunjisha biberamo kandi ugasanga amafaranga cyangwa se ikiguzi cyemeranyijwe hose gikurikizwa.

Iyo ugeze mu mujyi ukayabasha kureba witonze ugenda ushabora kubona inzu zitandukanye zitanga serivisi zikubiye n'izo kuvunja amafaranga y'amanyamahanga kugirango ubashe kubona serivisi zo muri icyo gihugu ukoresheje ubwishyu bw'amafaranga ufite.

Ntabwo bikiri ikibazo kuvunjisha amafaranga, igihe cyose ukeneye amafaranga y'igihugu runaka ugezemo, kubera ko icyo gihugu ugisangamo inzu zabugenewe zikorerwamo imyuga ijyanye no kuvunjisha amafaranga ku buryo ubikora ku giciro kikoroheye.

Igihe cyose afite amafaranga y'abanyamahanga yihutira kunyura ahantu hose hari inzu zikora imirimo ijyanye n'ivunjisha kugira ngo atunge amafaranga ashobora gukoresha mu gihugu cye uko abishatse kandi akayakoresha igihe icyo aricyo cyose.

Igihe cyose ukeneye kohereza amafaranga haba ari mu gihugu imbere cyangwa se mu mahanga, ntabwo bikiri ingorabahizi kubera ko hari inzu nyinshi ndetse n'abantu babikora nk'imirimo yabo ya buri munsi aho usanga wohereza amafaranga mu mahanga ndetse no mu gihugu.

Mu Rwanda ahantu hose hari inzu zikorerwamo imirimo ijyanye no kuvunjisha amafaranga y'abanyamahanga haba hagomba kugirirwa isuku bitewe n'uko hinjirwa n'abantu benshi kandi ahantu hinjirwa n'abantu batandukanye haba hagomba kwitabwaho .

No mu Rwanda hari bamwe mu bantu bagenda barushaho gukoresha serivisi zo kohereza amafaranga mu bihugu byo hanze nka Uganda cyangwa se Tanzania kuko iryo koranabuhanga naryo ryarahageze kandi ku giciro kitari hejuru cyane .

Avuye kuvunjisha amafaranga ye ku kigo cyabikoraga cyari gifite ibyangombwa gikorera ku muhanda yahise atega moto kugira ngo abungabunge umutekano w'amafaranga ye kuko yabonaga bwije bashobora kuyamwiba kandi bakamuhutaza.

Bamubwiye ko agomba gufata umwanzuro akagenda akaganira n'ibigo bishinzwe gucuruza ibikoresho byo mu nzu bikubiyemo intebe, bakumvikana ku giciro cya nyacyo ubundi bakazimuha, cyane ko nazo ubwazo ziba zikomeye.

Mu Rwanda hari ibikoresho bitandukanye bikoreshwa n'ingo zateye imbere ,kubera ko usanga bisaba amafaranga menshi bityo bikaba bitashoboka ko byagurwa na burumwe wese, niyo mpamvu usanga hari ingo zimwe na zimwe bitabonekamo.

Ubundi buri muntu wese aba agomba kugerageza kugira saro mu nzu ye kuko bimufasha kuruhuka neza kandi bikamufasha kuganira n'abagize umuryango we, yagira n'umushyitsi abona mu rugo rwe, akabasha kubona aho amwicaza bitamugoye.

Nibyiza kandi bigaragara neza iyo muri salon hateguwe neza hagakoreshwamo intebe zibasha gukurura amaso ya buri umwe wese bityo ukabona hafite isuku, kandi ukumva nta kabuza nawe watindamo aho hantu.

Intebe ziri ahantu hatandukanye, hari igihe uzinyuraho wazibona, ukumva nawe ubwawe wazigura, ikibazo kigasigara ari ukwibaza ngo nazibona he? nazikura he? Rero usanga abenshi bahitamo kujya kuzishakira kuri murandasi, kuko hari igihe usanga abazicuruza ari ho bakorera.

Mu buzima busanzwe ni ingenzi kandi ni iby'agaciro kugira salon isa neza kandi kugira salon isa neza bigusaba kuba wateguyemo intebe kandi wagiriye isuku, bityo rero bigatuma umuntu wese ubashije kwinjira mu rugo rwawe yumva ameze neza.

Igihe cyose ukeneye ibikoresho byo mu rugo byiza uba ugomba gushaka abacuruzi kabuhariwe kuko nibo baba bazi igihe ndetse n'ahantu ushobora kubibona bitakugoye, niyo mpamvu abantu benshi bitabaza ababigize umwuga mu gucuruza ibyo bikoresho.

Uko amajyambere agenda arushaho gusakara mu gihugu usanga abantu benshi bumva ko ari byiza gukoresha ibintu byinshi bya kijyambere, aho usanga bafite urukarabiro rwiza kandi rubafasha kugira isuku igihe cyose bibaye ngombwa ko bakaraba cyangwa se basa neza.

Abantu basobanukiwe ko hari inzu zimwe na zimwe zicuruza ibikoresho byo mu nzu igihe cyose ubikeneye ugomba kujyayo ukagura nabo bakakwereka ibigukwiye bitewe n'ubushobozi bwawe ufite, bityo ukabasha gukesha iwawe hagasa neza.

Igihe cyose hari intebe izo ari zo zose ziri ku isoko cyangwa se ibindi bikoresho byose byo mu rugo, ubikeneye avugana n'ubigurisha, bityo bakumvikana ku mafaranga runaka ibyo bintu bihagaze, umwe agashobora kubyegukana, undi agahabwa amafaranga.

Bamubwiye ko hari ubwoko butandukanye bw'ameza kandi ashobora kuguramo ubwo ashaka nuko aragenda ahitamo ayo yajyaga kubona ajya kumera nk'ikiraro agura ayo avuga ko ariyo amushimishije kandi ashobora kuzakoresha igihe kirekire.

Hari abantu benshi batandukanye, babikoze nk'akazi kabo ka buri munsi, gucuruza bimwe mu bikoresho bitakwa muri salo, ugasanga abenshi bacuruza intebe zikoreshwa muri salo, kandi bakabikora nk'aho ari ari akazi kabo ka buri munsi, bifasha abantu kumva batekanye.

Inzu zose zikorerwamo ibikorwa nk'amahoteli, usanga ari ahantu hagendwa n'abantu benshi cyane ugasanga umutekano waho wakajijwe kugira ngo buri muntu uhagera atekane kandi nibye bitekanye.

Iyo uri gukora urugendo ukagera mu mujyi wa Kigali, usanga uri gushaka kureba inyubako ndende yo mu mujyi wa Kigali, abenshi bakunze kwita ko ari nayo ndende. Ariko usanga nayo ikorerwamo ibijyanye n'amahoteli.

Usanga ahantu henshi nko muri hoteli cyangwa se inzu nini zabugenewe by'umwihariko izikoreramo inama, hateyemo intebe nziza kuburyo usanga abahicaye zibavura amavunane bityo bakahicara umwanya munini batararambirwa.

Inzu zitanga serivisi zijyanye n'amahoteli cyangwa se amaresitora ziba zigomba kuba zifite isuku yo ku rwego rwo hejuru bitewe n'uko zakira abantu bakomeye yewe tutaretse n'abayobozi, bityo bakaba basabwa kuzitaho ku rwego ruhagije.

Umunsi ku munsi uko abantu bagenda batera imbere niko bagenda barushaho gukoresha ubwiherero bwa kijyambere, mu gihe mu minsi yashize wasangaga ubwiherero bwa kijyambere buboneka mu mashuri makuru, mu bitaro ndetse n'ahandi hantu ariko usanga hari ahantu hiyubashye cyane.

Munzu zitangirwamo serivisi zitandukanye by'umwihariko amahoteli hagomba kuba harimo amatara abonesha ku buryo buri muntu wese winjiyemo abonamo umucyo kugira ngo abashe kubona neza ibyo akora byose .

Iyo winjiye muri hoteri cyangwa se resitora, uhasanga intebe ziteye amabengeza, ku buryo baguhaye amahirwe nawe ushobora gufata zimwe muri zo ukazijyana mu rugo rwawe, ukazikoresha cyangwa se ukazigurisha ukiteza imbere mu buzima bwa buri munsi.

Inzu zicururizwamo ibyokurya nyinshi, cyangwa se ibyo kunywa, usanga hari ahantu henshi haba hitegeye umuhanda, aho usanga abari kunywa cyangwa se kurya baba baganira ariko babasha no kureba hanze ku buryo bworoshye.

Ahenshi mu turere dutandukanye usanga sosiyete z'ubwishingizi zigenda zikoreramo mu rwego rwo kurushaho gutanga serivisi zinoze ku bantu bose barushaho gukenera izo serivisi mu buzima bwabo bwa buri munsi aho bakorera.

Ibyapa by'amashyirahamwe y'ubwishingizi mu rwanda, bishyirwa ahabona ku buryo buri munyamuryango wese abasha kubona ibyo byapa igihe cyose akeneye serivisi zitangwa n'ibyo byapa akabasha kuzibona bitamugoye.

Inyubako ndende akenshi zikunda gukoreramo ibigo byinshi kubera ko inzu zisanga zarabaye nkeya bityo ibyo bigo by'ubwishingizi bigahitamo kujya muri izo nyubako ndende aho gutanga serivisi usanga bazitangira ahitegeye ku buryo buri wese abibona.

Akenshi ukunda gusanga mu biro by'abantu batandukanye by'umwihariko abayobozi, muri ibyo biro harimo amafoto ya nyakubahwa perezida wa repubulika, kubera ko usanga abantu benshi bamufata nk'intangarugero bakagira ibikorwa byinshi bamwigiraho.

Mu Rwanda hari inyubako nyinshi zikorerwamo na sosiyete y'ubwishingizi ya radiyanti, iyo ni sosiyete imwe ibasha kugoboka abanyarwanda mu bihe bikomeye kubera yuko niyo bagize ibyago ibasha kubagoboka, bityo ikaba ariyo mpamvu abanyarwanda bayikunda.

Inzu zigeretse akenshi na kenshi usanga zikorerwamo n'ibigo by'ubwishingizi, cyangwa se ibigo bitanga serivisi z'ubwisungane mu kwivuza, aho usanga buri umwe afite uburenganzira bwo kwiteza imbere kandi agakorera aho hantu nta kiguzi.

Umuyobozi wese mu Rwanda aba akwiye kugira ibiro bye atangiramo serivisi, kugira ngo abamushaka bamenye bamushakira. Ugasanga kandi isuku y'aho hantu hibandwaho kuko ari ahantu haba hahurirwa n'abantu benshi bakeneye serivisi zitandukanye.

Mu biro by'ibigo bitandukanye bitanga serivisi z'ubwishingizi usanga barashyizemo intebe n'ameza, aho usanga abaje gushaka izo serivise z'ubwishingizi biyandikisha mu gihe cyose bategereje bagakora urutonde rwabo.

Igihe cyose hari nka serivisi z'ikigo gitanga ubwishingizi runaka ukeneye, ushobora kugenda ukegera icyicaro gikuru cyacyo utiriwe ujya ku gashami kacyo kubera ko ku cyicaro gikuru niho batanga serivisi neza kandi byihuse .

Bamugiriye inama ko agomba kujya mu bigo by'imari bitandukanye agafatamo inguzanyo, kubera ko amafaranga yari afite asanzwe akoresha mu bucuruzi, yari yarahuye n'ibyago abajura bakayamwiba. Yagannye ibyo bigo by'imari bimuha inguzanyo none ubu ni umugwizatunga.

Hariho banki zigiye zitandukanye zifasha abanyarwanda gutera imbere kubera ko babasha kwizigamira bakabasha no kwiguriza murizo banki bakabona amafaranga abafasha mu gukemura ibibazo bafite ndetse no gukora ibikorwa byabo by'iterambere.

Ibigo by'imari bitandukanye mu Rwanda bitanga inguzanyo abantu bagashobora kwiteza imbere, ni yo mpamvu usanga hari bimwe na bimwe byagiye bigerageza gushyira ikiguzi k'inguzanyo ku mafaranga make, kugira ngo zikoreshwe n'abantu benshi biteza imbere.

Si gake usanga inzu zikorerwamo n'imishinga by'umwihariko ikora ibijyanye n'ubwishingizi, ziba zifite isuku imbere muri zo mu rwego rwo kugirango zikurure bamwe mu bashaka gukoresha izo serivise, bityo bigatuma abantu bakunda uwo mushinga.

Bamubwiye ko mbere yo guhabwa inguzanyo agomba kuza akabisinyira, bakamwandikira urupapuro rubyemeza ko bayimuhaye kugira ngo bazabone uko bagenda bishyurana amafaranga, kubijyanye n'inyungu bemeranyijwe mu gihe runaka.

Inzu zose zitangirwamo serivisi zagenewe abantu, hari ahantu umuntu wese agomba kubanza igihe cyose akeneye umuntu w'umukozi ushinzwe kumuha serivisi runaka, bityo aba agomba kubanza aho hantu agategereza kugeza igihe bamubwiriye ko agomba kwinjira.

Yahisemo gufata icyemezo cyo gukomeza gukorana n'ibigo bitanga ubwishingizi kubera ko igihe cyose imodoka ye yangiritse cyangwa se umutungo we ukangirika, ahabwa ingurane kandi akayihabwa batamugoye bityo agakomeza akiteza imbere.

Abantu benshi bitegura gushinga ingo usanga bagerageza gukoresha zimwe muri sosiyete z'ubwishingizi, kugira ngo bazabashe kunezerwa mu ngo zabo bari kumwe n'abo bashakanye ngo bazubakane urwo rugo.

Umutekano w'amafaranga y'abaturage ubu wageze ku rwego rwo hejuru, bitewe n'uko ibigo by'imari bitandukanye byagiye byiyemeza kuyabika kandi bikacungira umutekano kugira ngo birinde naba nyirayo kuba baterwa n'abajura bakayabatwara.

Mu rwego rwo kugira ngo abantu barusheho kwiteza imbere hari ibigo bitandukanye bigenda bitanga inguzanyo, aho usanga ikiguzi cyangwa se ubwishyu ku nguzanyo aribyo bifatwa nk'inyungu ku nguzanyo abishyirwa ku kigero cyo hasi kugira buri wese arusheho kwiteza imbere.

Buri gihe imishinga myinshi iba ifite inyandiko igaragaza neza neza amategeko n'amabwiriza yigenga kugira ngo hatazabaho kwibeshya bityo umuntu akazavuga yuko yagiye kwinjira muri uwo mushinga atazi ibijyanye nawo .

Bamubwiye ko agomba kuyoboka ibigo by'imari bikubiyemo ama banke by'umwihariko agakoresha banki ya beka, kugira ngo ahabwe inguzanyo kandi yishyure ku kiguzi cy'inguzanyo kiri hasi bityo abashe kwiteza imbere mu gihe gito.

Igihe cyose usanga ababyeyi bacuruza mu isoko ry'imbuto, bakunze kugaragaza ko nubwo bwose kagaragara nk'akazi gaciriritse, ariko kabahereza amafaranga, kandi kakabafasha no gutunga imiryango yabo, ndetse n'abana bakajya ku ishuri.

Iyo ushaka gutungura umukunzi wawe cyangwa se undi muntu mubana mu rugo ugerageza gukora uko ushoboye ukajya mu nzu zicururizwamo imyambaro, by'umwihariko iyo ari uw'igitsina gore ntabwo waburamo umwambaro umukwiye.

Bitewe n'uko abanyarwanda basobanukiwe neza akamaro k'imboga n'imbuto, hari amasoko menshi acuruza imboga n'imbuto kandi ugasanga abantu benshi bitabira kugura izo mboga, bityo ubuzima bwabo bukarushaho kugenda neza iminsi yo kubaho ikicuma.

Inzu zicuruza ibijyanye n'imitako abantu bakunda gutaka mu nzu kenshi zikunze kuboneka hake kandi usanga ibyo zicuruza bihenze.

Igihe cyose uri mu bucuruzi uba ugomba kwiha intego ukajya ushyira ku murongo ibyo ucuruza ukirinda ko byateza akajagari kugira ngo wirinde ubujura bwa hato na hato bityo utazavaho ugahomba ukabura bimwe mu bicuruzwa.

Amaduka acuruza imyenda by'umwihariko imyambaro y'abagore, ni zimwe mu nzu zikunda kwakira abantu benshi bitewe n'uko bizwi ko abagore inshuro nyinshi bakunda kugura kandi bagakenera imyambaro myinshi yo gukoresha.

Iyo unyuze mu isoko ntabwo ushobora gukora ikosa ryo gutaha udatwaye imbuto, kubera ko nazo ziba ari zimwe mu bikenewe mu mubiri w'umuntu. Ntabwo umubiri w'umuntu ukenera ibyokurya gusa ahubwo n'imbuto usanga ari ngombwa, niyompamvu uba ugomba kuzihaha.

Iyo umuntu ugiye guhaha agize bimwe akenera aba agomba kujya mu nzu bicururizwamo akitegera umugurisha akamubwira icyo ashaka nawe akamuhereza kubw'umutekano we .

Nta soko na rimwe wajyamo mu Rwanda ricuruza ibiribwa ngo uburemo ibishyimbo cyangwa se ibindi binyamisogwe kubera ko ibyo bintu ni ibiribwa bikenerwa n'abantu benshi kandi ugasanga byuje intungamubiri abantu bakeneye mu buzima bwa buri munsi.

Iyo ubashije kugera mu migi i imwe n'imwe usanga hari umuvundo cyangwa se urujya n'uruza rw'imodoka cyane cyane mu masaha ya saa sita cyangwa se mu gitondo, aho usanga buri umwe wese ashaka inzira imugeza mu bikorwa bye bya buri munsi.

Iyo ugerageje kuganira n'umwe mu bacuruzi bacuruza mu isoko ry'ibiribwa aho ariho hose, akubwira ko babona inyungu y'amafaranga menshi kubera ko ibiribwa ni ikintu gikenerwa na buri muntu wese kandi bakabikenera kenshi rero baba bagomba kubigura kandi uko babigura nabo barunguka.

Abakozi ba eyateli mani bakunze kuboneka kenshi ahantu hatuwe n'abantu by'umwihariko mu mijyi. Kubera ko bafasha abantu mu bijyanye no guhererekanya amafaranga, cyangwa se kohererezanya amafaranga ava ku muntu umwe ajya ku wundi.

Ubungubu ntabwo bikigoranye kwishyura sosiyete y'ubwishingizi iyo ari yo yose wakoresha, kubera ko wishyura ukoresheje kode bityo ntubashe kuba wacibwa amafaranga akatwa mu gihe habayeho kohererezanya amafaranga.

Imwe muri sosiyete z'itumanaho zikorera mu Rwanda, igerageza gutanga ibihembo bikunda kugaruka mu mwaka, cyangwa se buri kwezi. Aho usanga ifite gahunda yo gushimisha bamwe mu bakoresha serivisi zayo, kugira ngo barusheho kunogerwa nayo.

Hari utuzu dutangirwamo serivisi zo kubitsa no kubikuza amafaranga akenshi dukunda kuboneka ku mihanda aho usanga harimo umuntu uba ushinzwe gukora icyo gikorwa agafasha abantu mu kwakira cyangwa se kohereza amafaranga yabo bitabagoye.

Mu rwego rwo kugira ngo twirinde indwara zikwirakwizwa n'isuku nke tuba dukwiye kwirinda gukoresha uburyo bwo kwishyura buzwi nka kashi, ahubwo tugakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga aho woherereza umuntu amafaranga ukayakura kuri telefone yawe ukayohereza kuri nimero.

Nyuma y'uko icyorezo cya coronavirusi giteye ku isi hose, mu Rwanda haje kwifashishwa uburyo bwo kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga, abantu bagakoresha kode aho ubasha kwishyura ntacyo bagukase ndetse n'uwishyuwe ntacyo bamukase, ugasanga kode igizwe n'imibare umunani cyangwa itandatu.

Ahatangirwa serivisi zitangwa n'abakozi ba airtel ku mihanda, usanga baragiye babashyiriraho utuzu tubakinga izuba no kugira ngo abakeneye izo serivisi bamenye neza aho abo bakozi baherereye bitabagoye.

Serivise zitangwa na sosiyete y'itumanaho ya emutineyi usanga ari serivisi zikunze kuboneka kenshi, kubera ko no ku mihanda bahafite abakozi babakorera, bagatanga serivise byoroshye, bitabaye ngombwa ko abakeneye serivisie bajya ku cyicaro.

Ntabwo bikunze kubaho ko inyubako nini zaba izicuruza cyangwa izidacuruza, usanga zidafite umwanya imbere wo guparikamo imodoka. Kubera ko usanga bibangamira ba nyiri ubwite bafite ibinyabiziga.

Ubucuruzi ntabwo bugikorwa habayeho guhura kw'abantu uyu n'uyu, ahubwo busigaye bunakorwa hifashishije murandasi, aho usanga abantu bagura cyangwa bakagurisha ibicuruzwa byabo bifashishije murandasi, bityo bugakorwa ku buryo bwihuse.

Abatwara amapikipiki mu buryo bwa rusange bazwi nk'abamotari ntabwo batwara abantu gusa kuko hari nigihe rimwe na rimwe usanga iyo umutumye kimwe mu bintu wari ukeneye ashobora kukikuzanira akoresheje moto.

Haje gusangwa zimwe mu nzu zicuruza ibyokurya akenshi bikubiyemo inyama, bagomba kuba bafite isuku ndetse bakagira ubusitani abantu bashobora kwicaramo baruhuka, mu gihe bategereje ibyo batumijeho, bakarushaho no kuganira.

Ubu ngubu ibintu byarahindutse kubera ko abantu basigaye bakora ubucuruzi bukorewe kuri murandasi buzwi nka i kamasi, bakagerageza gukora ubwo bucuruzi bakabona amafaranga bitabasabye gukoresha ubundi bucuruzi ubwo ari bwo bwose.

Ntabwo bikiri ngombwa ko ujya ahantu aho ariho hose hari resitora, ubungubu ibintu byaroroshye ushobora no gutumizaho ibyoku kurya bikakugeraho bitagusabye kujya aho resitora ikorera, kubera ko usanga hari abantu bashinzwe kujyana ibyo kurya babigeza ku bakiriya.

Abagore ubushakashatsi bugaragaza ko hari ikigero kiri hejuru cyane bagira muruhare rw'imiyoborere mu Rwanda, ni yo mpamvu n'abo bagenda bahabwa imyanya imwe nimwe, bagahabwa z'imwe mu nzego bakaziyobora, aho usanga bayobora nk'uturere n'imirenge.

Ibigo bicuruza serivisi zitandukanye mu gihugu, usanga bigerageza gutanga ikiruhuko by'umwihariko mu minsi mikuru bikifuriza abakozi babyo kugira impera z'ibyumweru nziza bityo bakarushaho gukunda gukorera ibyo bigo bitandukanye.

Ubu ngubu amasoko y'ikoranabuhanga agenda arushaho kuba menshi uko abantu benshi bagenda barushaho guteza imbere imikoreshereze y'ikoranabuhanga, ndetse bakaryinjiza no mu buzima bwabo bwa buri munsi. Usanga hari amasoko abantu benshi bagenda bakoreramo bakarushaho kubona inyungu.

Yahisemo kuzajya agura kandi akanagurisha akoresheje murandasi, kubera ko nibwo buryo bwiza bwamufasha kwirinda abamamyi, cyangwa abandi bantu bose bashaka kumutwara amafaranga kubera ko bamuhuje n'abaguzi, bityo ahitamo kubyikorera.

Akenshi na kenshi usanga abantu bagorwa no kugira imitungo itimukanwa, ku buryo umuntu avuga ngo uyu mutungo ni uwanjye ku giti cyanjye, ariko nanone iyo ubashije gufata inguzanyo ukaguramo uwo mutungo, uwo mutungo uwugira uwawe.

Iyo ugeze mu nzu by'umwihariko izicururizwa kuri murandasi usanga harimo ibikoresho binyuranye n'ibyo wabonaga ku buryo bw'amafoto ariko ugasanga nanone ntabwo bitandukanye cyane ku buryo utabasha kubigura.

Inzu zose zishobora kuba zagurishwa, usanga ba nyirazo bifashisha imbuga nkoranyambaga kugira ngo bazimenyekanishe bityo bibahuze n'abaguzi bitabagoye cyangwa se ngo bibasabe ikindi kiguzi cyo kwishyura ababahuje n'abo kuzigura.

Gucuruza ukoresheje ikoranabuhanga, byabaye ubucuruzi bugezweho, kubera ko usanga abenshi muri ba rwiyemezamirimo, bifashisha imbuga nkoranyambaga bakamurika bimwe mu bicuruzwa byabo harimo nk'inzu ndetse n'amatelefone, abaguzi bakabasha kubibona byoroshye.

Ntabwo ari muri hoteli zo mu mahanga gusa ushobora gusangamo ubwiherero bwa kijyambere ngo usangemo ubwogero bwa kijyambere, kuko byamaze kugaragara ko na hoteli zo mu Rwanda zigira bimwe muri ibyo bikoresho bya kijyambere bityo urayemu akaba atekanye muri ibyo byumba.

Iyo ugeze muri hoteli biragora kwiyumvisha yuko isuku uhasanze ariyo igomba kuba ihari, kuko usanga uburiri bwaho buteguye neza hamwe uryama ukumva ushize amavunane, abantu benshi baraharyama gukanguka ukabona byagoranye.

Akenshi na kenshi iyo ukeneye inzu yo kugura usanga mu Rwanda hari inzu zigiye ziboneka by'umwihariko mu Mujyi wa Kigali, ugasanga inzu yujuje byose, ugasanga harimo igikoni, harimo gaze, harimo n'ibindi bikoresho nkenerwa byo mu gikoni.

Mu mujyi wa Kigali ntabwo byorohera buri muntu wese kuhabona icumbi, kubera ko ubwishyu bw'ubukode bw'amazu y'aho burahenda cyane, bitewe n'uko inzu ziba zirimo buri kimwe cyose nk'ubwogero ndetse n'ubwiherero bityo bigatuma zihenda.

Iyo ugiye kubaka inzu yawe uba ugomba gukora igena gaciro ndetse ukamenya n'ingano y'amafaranga uzayitakazaho, kugirango hato utazatenguhwa n'amafaranga ufite ugasanga wateganyije ibidahwanye n'ubushobozi.

Iyo umuntu acuruza inzu, aba agomba gufata amwe mu mafoto akayamurikira abaguzi ku mbuga nkoranyambaga, bityo abantu benshi bagashiturwa n'izo nzu, bakabona ubwiza bwazo, kugira bazigure bumva nta mpungenge.

Si byiza ko wihutira kwinjira mu muryango wose usanze ukinguye, kubera ko ushobora guhuriramo n'ibyago igihe cyose utazi uwawukinguye ndetse n'impamvu yawukinguye, uba ugomba gutegereza ukategereza uruhushya rw'umuntu wawukinguye akakwinjiza.

Uko abahanga bagenda baba benshi muri iyi si niko bagenda bavumbura n'uburyo bwiza bw'imyubakire, aho bavumbuye ko kubaka inzu zigeretse ari imwe mu mpamvu zishobora gukoreshwa kugira ngo harusheho kubugwabugwa ubutaka.

Ikoranabuhanga ryoroheje uburyo umuntu umwe ashobora kugura cyangwa se akagurisha, kubera ko agenda agashyira ibyo ashaka gucuruza kuri murandasi hanyuma ushaka kugura nawe akabisangaho bakaza kumvikana ku giciro cya nyacyo nyiri ukugurisha ashaka.

Ibintu byaroroshye muri Kigali, inzu iyo ari yo yose waba ushaka gukodesha, icya mbere ni uko uba ufite ubwishyu. Iyo nzu ntabwo wayibura, kubera ko hari abantu babishinzwe babasha kuranga amazu, haba gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga cyangwa se uburyo busanzwe.

Abenshi mu banyamahanga ndetse n'abenegihugu bafite amafaranga; bahitamo kujya gukodesha muri kigali aho kugira ngo bajye kugura inzu mu ntara kubera ko usanga izo nzu zabo bagura mu ntara ziri kure y'aho bakorera.

Hari zimwe mu mbuto zikenerwa mu mubiri wa muntu kugira ngo ubuzima burusheho kugenda neza, ariko abantu benshi ntabwo twibuka yuko ari inshingano zacu, kunyura ahacururizwa izo mbuto, tukazihaha, bityo tukazirya umubiri wacu ukarushaho kumera neza.

Abantu benshi by'umwihariko abacuruza inkweto n'imyenda, byagaragaye ko aribo bantu bakunda guhura n'abantu kenshi, bitewe n'uko abantu bakinra inkweto imyenda byo kwambara m'ubuzima bwabo bwa buri munsi.

Akenshi na kenshi iyo igikoresho cya elegitoroniki cyangwa se cy'ikoranabuhanga cyangiritse biragorana kujya kubona aho wakura ikindi; kubera ko usanga bigusaba kuva mu rugo ugahagarika ibyo wakoraga ukajya gushaka icyo gikoresho.

Ababyeyi benshi mu masaha ya nimugoroba bakunda kugaragara banyura mu nzu zicuruza ibyo kurya bashobora gushyira abana babo igihe bavuye mu kazi, cyangwa se bagatahana imyambaro imwe n'imwe y'abana babo kuko ari imwe mu bibafasha mu kurara neza kandi bakarara batekanye.

Inzu zose zikorerwamo imirimo y'ubucuruzi by'umwihariko ubucuruzi bw'imyenda, bafashe icyemezo cyo kubikora nk'umwuga kubera ko usanga nabyo ari akazi kinjiza amafaranga menshi kandi kakayinjiza umunsi ku munsi.

Buri gihe iyo avuye mu kazi agerageza kunyura mu isoko, cyangwa se akanyura mu iduka ricuruza ibintu byinshi, akabasha kugira icyo atahana mu rugo, kuko ataba yizeye ko byose biri yo. Kugira ngo bitaza kumusaba kugaruka.

Mu rwego rwo kugira ngo hagabanye ibura ry'inzu zigomba gucururizwamo ibintu bimwe namwe bigiye bitandukanye inzu zigeretse kenshi zisigaye zicururizwamo mu miryango yose hamwe bakahacururiza ibikoresho by'abana ahandi bakahacururiza ibikoresho by'abantu bakuru

Iyo ageze ku iduka ahahiraho afata ikemeze cyo gukaraba intoki kubera ko abayanyuze ahantu henshi hatandukanye akaba adashaka kuza kwanduza bimwe mu bicuruzwa birimo imbere kubera ko ashobora kubikoraho yakoze ku bindi bintu bitari biri byiza.

Yanyuze ahantu bacuruza imyaka ababwira ko ariho hantu ashaka guhahira bitewe nuko haba hari ububiko bugari bityo kubona imyaka ushaka ukanayibonera igihe byo bishoboka kurenza uko yajya kugurira mu yandi maduka asanzwe.

Igihe cyose ugeze mu isoko uba ugomba kwitwararika bitabaye ibyo ushobora guhura n'abajura bakiba amafaranga yawe yose ukaza gutaha murugo nta kintu utahanye bityo ntugere ku ntego yawe y’umunsi.

Akenshi na kenshi usanga abantu bafite icyo bahuriyeho iyo bari kuganira wenda iyo hari ikintu umwe muri bo ashaka kubwira undi, usanga ubwirwa yamuteze amatwi kugira ngo abashe kumva neza icyo bari kumubwira bityo arusheho kugikora.

Ahantu hose hakorerwa ubucuruzi bukomeye, usanga muri izo nzu haragiye hashyirwamo ibikoresho bicunga umutekano, aho babasha gusaka buri muntu wese winjiyemo cyangwa usohotse ngo barebe ko nta kintu cyabo yaba asohokanyemo kubw'umutekano wabo.

Iyo abantu benshi bavuye mu kazi biba ari byiza ko bagira ikintu batahana mu rugo. Niyo mpamvu iyo ubashije kunyura muri zimwe mu nzu zicuruza ibyo kurya, usanga harimo abantu benshi bahaha, abandi bishyura abandi babateruza babatwaza ibyo bahashye.

Igihe cyose ukeneye kujya kwa muganga, uba ugomba kwitwaza ikarita yawe y'ubwishingizi cyangwa se y'ubwisungane mu kwivuza ukoresha, igihe cyose ugikeneye kujyayo, iyo karita iragufasha kuko ntabwo washobora kukuvura cyangwa kuguha serivisi utayifite.

Kera abanyarwanda bakoreshaga mitiweli ndetse na nubu kubera ko umusanzu wa mituwelil udahenze kubera ko umuntu yishyura ibihumbi bitatu cyangwa se akabyishyurira buri umwe mu bagize umuryango we, bityo ubuzima bwe bukaba bushinganye igihe cyose arwaye akivuza.

Ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda ni Ara Esesibi. Ikigo cy'ubwiteganyirize cya Ara Esesibi, ni cyo cyagamijwe ko kigomba gushyiraho gahunda y'ubwizigame mu Rwanda, aho buri munyarwanda wese agomba kuba ashinganye, atuje kandi atekanye.

Mu rwego rwo kurushaho gutanga serivisi nziza kandi zinoze, usanga mu gihe cyo gutanga mitiweri, abakozi ba leta bamanuka bakajya mu midugudu imwe n'imwe itandukanye, bagafasha abaturage kwishyura umusanzu wabo w'ubwisungane mu kwivuza.

Byagaragaraga nk'aho ari uburyo bushaje aho wasangaga abanyarwanda mu gukoresha ikarita z'ubwisungane mu kwivuza bakoreshagakarita ka mitiweri ugasanga igihe umuntu anyagiwe n'imvura karangiritse kandi yari akeneye kuza agakoresha igihe kirekire.

Leta y'u Rwanda ijya igerageza kwishyurira bamwe mu baturage serivisi z'ubwishingizi, bitewe nuko badafite ubushobozi buhagije bwo kuba bakiyishyurira. Bakabishyurira ugasanga baratekanye kuko nabo baba ari abaturage b'igihugu.

Kwa muganga, abaganga cyangwa se abajyanama b'ubuzima bagerageza gutanga serivise zitandukanye, by'umwihariko izihabwa ababyeyi, cyangwa se abandi bantu bazikeneye, bakazitanga mu buryo bwihuse cyane, bitabangamiye umuntu uwo ari we wese.

Twa dukarita twakoreshwaga mu myaka ya kera mu buryo bwa mitiweli, ubu ngubu twasimbuwe n'irangamuntu kubera ko wasangaga harabaga ibyago byinshi byo kudutakaza cyangwa se igihe imvura iguye tukangirika.

Abayobozi kimwe n'abandi bashinzwe gutanga serivise z'ubwisungane mu kwivuza, igihe cyose bagirwa inama yo kwegera abaturage bakumva ibibazo bafite, bakarushaho kubumva, yewe bakabafasha no kubikemura igihe icyo ari cyo cyose.

Mu Rwanda ntamuturage ukirembere mu rugo kuko hari amavuriro mato aganda yegerezwa mu midugudu, aho usanga umuntu wese ugize ikibazo agana ayo mavuriro bakamufaha bitabaye ngombwa ko ajya ku bitaro bikuru kubera ko ho ashobora kugerayo atinze.

Ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda mu bijyanye no kwivuza, iyo kimaze gukora ubushakashatsi kigasanga hari abaturage bamwe na bamwe batishoboye, gihitamo kubishyurira ubwisungane mu kwivuza kugira ngo nabo bazabashe kwivuza n'abandi.

Ikigo cy'ubwiteganyirize mu rwanda gifite abakozi barenga umwe bashinzwe kwita ndetse no gutanga serivisi nziza bakazigeza ku baturage igihe cyose bazikeneye kandi bakazi basangishas hafi'aho batuye kubera ko arizo nshingano zabo.

Ikigo cy'ubwiteganyirize mu kwivuza mu rwanda, cyatangaga udukarita kera, twakoreshwaga umuntu agiye kwa muganga twari tuzwi nka mitiweli. Bityo umuntu akaba ashinganye kandi akavurwa hakoreshejwe iyo karita.

Kera mu myaka yo hambere igihe ikarita ya mitiweli yari itarasimburwa n'indangamuntu, wasangaga abantu binubira ko bashobora guhura n'ibibazo, igihe cyose babashije nko kuba banyagirwa n'imvura ikarita y'abo ya mitiweli ikangirika.

Ikigo cy'ubwiteganyirize mu rwanda gikomeje gutuma ubuzima bw'abanyarwanda bugenda burushaho kuba bwiza binyuze mu gutanga serivisi nziza kandi zinoze, kubera ko igihe cyose umuntu akeneye izo serivise zitangwa n'icyo kigo, azibonera ku gihe kandi ku buryo bwihuse.

Bamubwiye ko gukoresha mituweli ari bwo buryo bwiza buzamufasha kubera ko igihe cyose adafite ubwisungane mu kwivuza, azifuza akoze ku mafaranga ye, bityo bikarangira bimutwaye amafaranga menshi kugira ngo abyare.

Yasanze ari byo byiza buri gihe uko atashye kujya anyura mu iduka ricuruza bimwe na bimwe akenera mu rugo, akabitahana kuko biba bihari ku bwinshi, kandi ku giciro cyo hasi aranzura ko agomba kujya ahanyura agatahana byinshi muri byo.

Bamaze kubona yuko ari umuguzi uhoraho kandi agura buri munsi, bahisemo kumugabanyiriza ibiciro by'ibicuruzwa bajyaga bamuha ku munsi ku munsi, kugira ngo arusheho kubabera umuguzi uhoraho bityo bakomezanye urugendo rw'ubucuruzi.

Amaduka menshi yaharaniye guteza imbere gucuruza ibikoresho by'ubwiza ndetse n'ibituma umubiri w'umuntu uhumura neza kubera ko abantu benshi babikenera mu buzima bwa buri munsi, bigatuma bibafasha kubaho neza no gukomeza ubuzima bwabo.

Ntabwo bikiri ngombwa ko wibaza ngo ejo nzakora iki ?kuko byaragaragaye ko nawe ushobora gushaka amafaranga ukajya kwihangira umurimo, ugashinga iduka ricuruza ibikoresho bikenerwa n'abantu mu buzima bwa buri munsi bikubiyemo ibyo kurya.

Ageze mu rugo yasanze yibagiwe kunyura ku iduka ricuruza ibyo kurya bifunitse, ariko ageze mu rugo abana nibo bamwibukije ko ari ikosa kutanyurayo, kubera ko hari byinshi bigurwayo bakunda gukenera gukoresha igihe cyose bari mu rugo.

Abana akenshi bakunda kumutuma ngo abazanire ibyo kuza kurya nimugoroba avuye mu kazi, na we akaza kubyubahiriza nk'umubyeyi mwiza akanyura ahantu hari amasoko cyangwa se amaduka magari, akagira bimwe na bimwe abashyira mu rugo nimugoroba.

Bamubwiye ko ibikoresho byose yari akeneye byari biri mu iduka rikomeye ricururiza hafi y'aho yari atuye n'ubwo bwose we atari abizi, ageze iyo asanga hari ibyo azakoresha harimo n'ibyo kurya azagurira abana be.

Iyo avuye ku isoko agerageza guca mu yandi maduka akomeye acuruza ibyoku kurya akagira bimwe na bimwe mu byo kurya bipfunyitse ashyira urubyaro rwe kugira ngo arusheho kubashimisha kuko biba byiyongera ku byo yakwiye ku isonga.

Inyubako iduka rya simba rikoreramo, n'inyubako ndende yewe uri n'umuntu ugira ubwoba byakugora kuba wareba hejuru ngo wongere urebe hasi, ariko iyo umaze kuyegera uko ugenda ushirarika ubwo ugenda urushaho kuryoherwa nayo.

Hari amaduka menshi agenda acuruza ibintu abana bakunda kurya bityo ababyeyi benshi iyo bavuye mu kazi cyangwa mu mirimo yabo ya buri munsi, banyura muri ayo maduka bagashyira abana babo bimwe mu byo bari buze gukenera, hakubiyemo amabisi, amabombo ndetse n'ibindi.

Kirazira kunyura ku isoko rihahirwamo ngo nurangiza ugende hari ibyo wibagiriweyo, kubera ko bituma byica gahunda wari ufite igihe cyose udatahanye ibyo wari ugombye gutahana kuko byari ibyo wari ukeneye.

Amaduka ndetse magari ntabwo usanga acuruza ibyo kurya gusa, ahubwo usanga n'ibyo kunywa akenshi abicuruza kubera ko usanga akunda gukoreshwa n'abantu batandukanye kandi babikeneye, ugasanga rero babizanyemo byose.